Umugabo wambaye umupira w'ibara ry'ubururu n'ipantaro y'umukara, yambaye na ga mu ntoki afite ipombo ahagaze mu murima w'ibigori bigaragara ko ari gutera imiti irinda udukoko twangiza imyaka.

Abantu babiri bahagaze mu cyobo gikikijwe n'ishitingi umwe yambaye umupira uri mu ibara ry'umutuku, ndetse n'umukara undi yambaye umupira uri mu ibara ry'umuhondo, afite ifi mu ntoki bigaragara ko ari yo bamaze gukura muri icyo cyobo.

Ahantu mu kibaya cyangwa se mu gishanga bakunda guhingamo umuceri hari harimo abagore bane n'umugabo umwe barunamye undi arahagaze bigaragara ko bari kubagara cyangwa se kufira umuceri, imbere yabo uwunamye afite isuka mu ntoki.

Ibikarito byinshi biri mu bwoko bwinshi kandi butandukanye bigiye biriho amagambo menshi atandukanye, hariho n'ibishushanyijeho inka bigaragare ko ibi bikarito birimo imiti y'amatungo.

Ishashi iri mu ibara ry'umuhondo, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'andi ari mu ibara ry'umukara, ishushanyijeho inka, bigaragara ko iyi shashi irimo amata.

Ishyamba rinini cyane, ririmo ibiti ndetse n'ibyatsi byinshi by'ubwoko butandukanye, harimo n'inyamaswa nini imwe dukunda kwita imparage ifite amabara arimo imirongo y'umuhondo ndetse n'umukara.

Ikiraro kinini cyane cyubakishijwe ibiti, kirimo inka nyinshi bigaragara ko ariho zororerwa. Imbere yaho hari aho inka zirira, ku ruhande rwazo hahagaze umuntu bigaragara ko ari umworozi w'izi nka.

Imirima myinshi itandukanye, igiye iteyemo imbuto z'ubwoko butandukanye, hagati hahagazemo umugore ufite isuka mu ntoki ndetse n'amabase mu ntoki, bigaragarare ko ari umukozi ukora muri iyo mirima. Imbere ye hari amatente ari mu ibara ry'umweru, bigaragara ko aho hantu hakorera itsinda ry'abantu benshi.

Umurima munini urimo ibihingwa bitandukanye; harimo imyumbati, harimo insina, hahagazemo umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, biragaragara ko ari gusharira cyangwa se ari gukura amakoma ku nsina.

Ahantu harimo ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye, harimo amakaroni ndetse n'ibindi, bigaragara ko ari ahantu hahahirwa ibyo kurya ndetse n'ibyokunywa, hamwe dukunda kwita muri supamaketi.

Ibihingwa byinshi kandi byiza biri mu moko atandukanye, harimo ibibiriganya, harimo karoti, harimo inyanya, imineke ndetse na puwavuro, bigaragara ko biri ku isoko, biri kugurishwa.

Ikibaya kinini cyane kirimo ibihingwa byinshi bitandukanye. Harimo ibiti biri ku murongo imwe dukunda kwita amapoto. Bifite insinga z'umuriro w'amashanyarazi bigaragara ko aya mapoto ajyana amashanyarazi mu bice bitandukanye.

Umurima munini uhinzemo imboga nyinshi, harimo umugabo wambaye umupira uri mu ibara ry'ubururu, arunamye, bigaragara ko ari gukorera neza, uwo murima ndetse n'izo mboga.

Isoko rinini ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye hari abantu batatu bicaye imbere yabo hari indobo iri muibara ry'icyatsi, teremunsi n'agashashi ndetse n'inyanya bigaragara ko ari izo bari gucuruza.

Aahantu hanini kandi heza mu kibuga kinini cyane dukunda kwita mu ifamu, harimo inka nyinshi zifite amahembe maremare zimwe tujya twita inyambo, bigaragarare ko hano ariho izi nka ziragirirwa.

Ifamu nini cyane irimo ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye. Harimo n'inka nyinshi cyane zirimo, ziri mu bwoko butandukanye harimo izifite amahembe ndetse n'izitayafite. Biragaragara ko hano ari ho izi nka zororerwa cyangwa se zirishiriza.

Umugore wambaye taburiya iri mu ibara ry'umweru, yambaye ga ziri mu ibara ry'ubururu, yitwikiriye agatambaro kari mu ibara ry'umukara, afite agakoresho karimo ibara ry'umukara mu ntoki, inyuma ye hari abagabo bahagaze, bigaragare ko uyu mugore ari umuvuzi w'amatungo umwe twita veterineri.

Ikibuga kinini cyane bigaragara ko ari ho havurirwa amatungo, hari inka ndetse inyuma yayo hari umugabo wambaye itaburiya y'umweru, bigaragara ko ari gukingira inka. Ku ruhande hariho abagabo babiri bambaye amasarubeti ari mu ibara ry'ubururu, bigaragara ko nabo bari gufasha umugabo uri gukingira.

Ahantu hanini hahuriye inyamaswa nyinshi z'ubwoko butandukanye, harimo intare, harimo imparage, harimo twiga cyangwa se musumbashyamba, harimo inzovu, harimo ingwe ndetse n'imvubu, hamwe n'izindi nyamaswa z'ubundi bwoko.